Abantu bahagaze ku ivomero baje kuvoma hariho ijerekani iri kujyamo amazi, ku ruhande hari akandi kabido gatoya.

Akana gato cyane k'agakobwa kambaye ikanzu, gafite icupa ririmo amazi makeya ari kumeneka ku rukuta rusa umukara, hirya hari urundi rukuta rwubakishijwe amatafari y'ibyondo.

Abana babiri baje ku ivomero kuvoma, bafite amabido abiri, harimo akana k'agahungu kari kuyapompa, akandi k'agakobwa kari kuvoma.

Inzu irimo abantu bahagaze bagiye gufatana ifoto, hagati harimo abamama bambaye amataburiya y'abaganga, ku nkuta hari ibishushanyo bishushanyijeho abantu.

Umusaza ufite ibyishimo, uhagaze imbere y'ivomero, afite ijerekani imwe, yambaye ipantaro y'umukara hamwe n'ishati irimo uturongo.

Abanyeshuri bambaye iniforume, bari gukaraba intoki ku marobine, bakoresheje isabune nayo mazi yo ku marobine, bose barasa nk'abishimiye kuba barimo barakara intoki.

Abantu bateranye, baje kwitabira igikorwa cyo kumurika ivomero rishyashya, rikoreshwa mu buryo bwo gupompa amazi ajya mu ijerekani.

Abantu benshi bicaye ahantu mu byatsi higanjemo abana n'abantu bakuru, imbere hahagaze akana gatoya kari guhana intoki n'umugabo mukuru basuhuzanya.

Umuganga uri mu gikorwa cyo gukingira abana, ari gutera urushinge umwana ku kaboko, uwo mwana yambaye umupira w'ubururu kandi akaba asa nk'umunyeshuri.

Abanyeshuri b'abana bambaye iniforume za kaki bose bagiye bazana indobo ku voma hamwe n'utujerekani dutandukanye baje kuvoma amazi yashyiriweho abantu badafite amazi m'urugo rw'iwabo.

Abana bafite amajerekani hamwe n'utubido, baje kuvomera ku ivomero riba rigenewe abantu badafite amazi mu ngo zabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umubyeyi uteruye akana gato, imbere yabo hicaye umuganga w'umusore arimo arakora umwana ku ijosi areba ikibazo yaba afite.

Umusore wambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara, arasutamye ari kumwe na kana, gahagaze ku cyuma gipima ibiro, inyuma yabo hahagaze abandi bantu.

Abantu bicaye mu ntebe bari mu nama, imbere yabo bafite imeza iriho amacupa y'amazi hamwe n'amashakoshi yabo n'amakayi.

Abagore babiri buri wese ateruye umwana bose bambaye udupfukamunwa; inyuma yabo hari igikuta giteye irange ry'umuhondo hamwe n'idirishya.

Inyubako ebyiri zubakishijwe amatafari ahiye, buri nyubako igiye ifite umuryango w’ubururu n’idirishya, izindi nyubako imbere yayo zifite utuyira dukikijwe n’amatafari.

Ku mugezi ufite amazi menshi harimo akana gatoya kambaye isengeri n'ijipo, gafite ijerekani kadubitse mu mazi kari kuvoma.

Abaturage bateraniye kwa muganga baje kwipimisha indwara zitandukanye, harimo imivuduko y'amaraso hamwe n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Umugore w'umuzungu usa nkaho akuze yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse afite indangururamajwi mu ntoki, asa nkaho arikugezaho abantu ijambo.

Umwana mutoya wambaye impuzankano zo ku ishuri ari gusuhuzanya n'undi mugabo wambaye umupira wa oranje; inyuma yabo hicaye abantu benshi hasi y'igiti.

Abantu babiri bahagaze bagiye gufata ifoto, harimo umugore wambaye ikanzu ishushanyijeho indabyo, ku ruhande hari umugabo wambaye ikote ndetse bahagaze imbere y'ibintu bishushanyijeho abantu bari guseka.

Abantu bahuriye ni kuvoma ku rubonero iherereye ahantu mu gishanga cyagenewe kuvomeraho abantu badafite amazi mu ngo zabo.

Abantu bari mu mahugurwa bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hateretse amazi hamwe n'amakayi afite na bike.

Umuganga uri gutera umurwayi urushinge ku kaboko, umurwayi yazamuye umupira hamwe n'uwo muganga ari kumutera urushinge, yambaye ga kugirango ngo amuvure neza.

Abantu benshi bateraniye ku ivomera bashyiriweho na unisefu, buri wese ari kuza kuvoma amazi meza kandi asukuye. Harimo abagore bateze ibitambaro hamwe n'abandi ba bana, bose baje kuvoma amazi asukuye.

Abantu bateraniye kuri poste de sante yitwa gira ubuzima, bakaba bateraniyemo hari abagabo bane, harimo abadogiteri n'abayobozi babo, hakabamo n'abandi bagore bakora ibintu bitandukanye muri ibyo bitaro.

Igikorwa cyo gukingira hamwe no gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, cyateraniyemo abaganga b'inzobere hamwe n'abaturage baje kwipimisha zimwe muri izo ndwara zirimo zirapimwa.

Abantu bane bicaye ahantu baje gushaka ubuvuzi, harimo umukobwa wicaye ku ruhande wambaye ikoti ry'umutuku, hejuru hamanitse ibipapuro bishushanyijeho abantu.

Abantu bicaye imbere y'inzu ku rubaraza harimo abana, bakecuru ndetse n'abagore, hagati hahagazemo umukecuru witeze ibitenge.

Ahantu hari kubera ibikorwa by'ubuvuzi hari akana kari kumwe na mama wako ako kana bari kugashyira akantu ku kuboko kameze nk'igipfuko hari n'abandi bantu inyuma.

Icyumba kirimo abakobwa n'abamama bari kubyina imbyino za gakondo bateze amaboko hejuru, iruhande rwabo hari intebe z'umweru.

Umukobwa uri kuvoma ku ijerekani, yaje kuvomera ku ivomero ryashyiriweho abaturage muri rusange, kugira ngo buri muturage ajye akoresha amazi meza asukuye.

Abana babiri bari gukinira ku mazi bakaraba intoki abo bana bose barasutamye bishimiye gukomeza gukina n'amazi asa neza cyane ,bamwe harimo umwana wambaye imyenda idoze mu bitenge n'undi wambaye umupira w'umutuku.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, harimo abicaye, abahagaze n'abasutamye, bari mubyatsi, bagiye gufata ifoto, bose bambaye imipira y'umweru, inyuma hari n'abandi bagabo bambaye amakoti y'umukara.

Umubyeyi uteruye umwana, bicaye imbere y'umuganga, uwo muganga ari kureba umwana ikibazo yaba afite ngo amufashe kubyerekeye n'ubuzima koko uwo muganga.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura yumutuku, ari kuri robine yateze intoki ari kunywa amazi hasi hateretse indobo amazi ari kumenekamo hirya hari ibiti bihateye.

Umugore uteruye umwana yaje kumuvuza kwa muganga, afite ibyangombwa byabugenewe harimo n'ifishi hamwe na mituweli.

Umubyeyi uteruye uruhinja yaje kuruvuza, iruhande rwe hahagaze umuganga, ku rundi ruhande hicaye undi uri kugenzura ibyangombwa by'urwo ruhinja.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'ubururu hamwe n'umupira w'imbere afashe mu ntoki igishushanyo kiriho umugore hamwe n'umugabo iyo shusho akaba ari kuyereka umugore.

Ahantu hateraniye urujya n'uruza rw'abantu, hakaba aho hantu hateye amatente, harimo ingeri nyinshi z'abantu harimo abagabo, abagore, abakecuru n'abana.

Inama yateranyije abantu batandukanye, harimo abaturuka mu bihugu bitandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, inamama ikaba irimo abagore n'abagabo bose bakaba bitabiriye iyo nama.

Abantu benshi bicaye mu ihema, harimo abagore n'abagabo bambaye imipira y'umweru bose, basa nkaho bafite umuntu bakurikiye uri kuvuga imbere yabo.

Umugore wikoreye ijerekani avuye kuvoma, ijerekani isa umuhondo ifite umufuniko usa nk'umutuku, yikoreje ingata.

Icyumba kirimo abantu harimo umugore uri guterwa urushinge, ari kuruterwa n'umuganga ariko uwo mugore uri guterwa urushinge afite ubwoba bwinshi atinya urushinge.

Abana bari gukaraba intoki kuri robine, bari gukaraba bakoresheje isabune n'amazi meza nyuma yo kuva gukina.

Abantu bari mu nama, bicaye ku meza ateretseho ibikoresho bitandukanye, harimo porojegiteri, amatasi hamwe n'ibitabo.

Ahantu hateraniye ababyeyi benshi hamwe n'abana, ababyeyi baje kuvuza abana babo bose bahagaze imbere y'abaganga, bari kugenda babandika nyuma yo kubavura.

Akana gato k'agahungu, kambaye ishati y'ubururu, ihinnye ndetse n'ipantaro, kari ahantu hari indobo irimo amazi itetse ku meza, gashaka kuvoma.

Umukobwa uri kuvoma amazi kuri robine, ijerekani iteretse ku ibase, inyuma ye hari imyenda yanitse, harimo imipira y'umuhondo, hamwe n'iy'umukara n'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga harimo umuntu uryamye ku gitanda urembye cyane bamwambitse ikintu ku isura kimufasha mu buhumekero iruhande rwe hari abaganga bahagaze.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu muhanda, bambaye ingofero zisa hamwe n'umupira, bafite icyapa mu ntoki. Icyo cyapa kikaba cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Ikigo cy'ishuri gifite imbuga nini, umwana ahagaze kuri robine iri muri icyo kigo cy'ishuri, ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye.

Umwana waje kuvomera ku mavomero rusange yashyiriweho abaturage badafite aho bavomera mu ngo zabo, ayo mavomero akaba afite robine enye.

Umwana wambaye umupira ufite amabara ya gisirikare hamwe n'ikabutura n'inkweto z'ubururu ari kunywa amazi kuri robine andi akameneka mu ndobo.

Umwana w'umukobwa mutoya, wambaye ikanzu, yicaye asutamye kuri robine, ari koga intoki n'amazi, iruhande rwe hari amajerekani asa umuhondo, ndetse n'indi isa ubururu.

Abantu baje kuvoma, batonze umurongo, hamwe n'amajerekani yabo na yo ari ku murongo kugira ngo bashobore kuvoma ntawuhutaje undi.

Abantutu bicaye kumeza ikorerwaho inama, imbere yabo kandi kuri iyo meza hariho amamashini, hamwe na porojegiteri ibafasha kuvuga ibintu babisangizanya, imbere yabo aho bose babibona.

Abagore batatu bicaye ku ntebe baje kwivuza, imbere yabo hicaye umugore wambaye itaburiya y'umweru yamwambitse ikintu ku kaboko ari kumupima n'abandi barategereje.

Abantu bahagaze hanze bafatanye basa nkaho bagiye gufata ifoto, harimo abaforomo babiri bambaye impuzankano zisa ubururu bahagaze imbere y'inzu iberamo inama.

Icyumba kirimo abasore babiri bahagararanye bari kuganira harimo umwe wambaye umupira usa ubururu, undi na we yambaye ishati iciye amaboko n'igikapu ku kumugongo, iruhande rwabo na hahagaze abantu.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ku ivomero rifite amarobine, rusange buri wese kandi agiye afite ikintu yagiye aza kuvomeramo harimo nk'amajerekani hamwe n'indobo.

Abanyeshuri batandatu bari kuvoma amazi bambaye iniforume kuri robine indobo zisa umuhondo.

Abana b'abanyeshuri bambaye uniforme, bari kunywa amazi bavomye mu kigega, buri wese agiye afite igikombe cye.

Umwana w'umukobwa muto, ari ahantu bavomera amazi, imbere ye hari indobo ebyiri, hari n'indi afite ari gukarabiramo intoki, hirya ye hari ibiti.

Ahantu hahagaze abagore batatu harimo umwe wambaye agapfukamunwa ufite akantu bakoresha bapima umuriro ndetse inyuma hari ikiyaga cy'amazi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa hamwe imyenda y'abaganga, ari gutera urushinge umugore wambaye agapfukamunwa n'ingofero ya shokora uhetse ishakoshi.

Umwana w'umukobwa uhagaze imbere y'inzu z'amatafari ahiye akaba arimo gukaraba amazi akoresheje kandidagira ukarabe ifite indobo y'icyatsi hamwe n'akabase irimo amazi uwo umwanawana ari gukaraba.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bari kwigisha abaturage ibyerekeranye n'indwara ya Ebora, babereka bimwe mu bimenyetso bifatwa n'umuntu urwaye iyo ndwara ya Ebola.

Umwana w'umukobwa usutse ibintu biryamye ku mutwe we, akaba ari mu gipangu cy'amatafari ya buroke sima, ari gukaraba intoki kuri robone, amazi amaze gukaraba akajya mu ibasi y'umukara.

Ahantu hicaye ababyeyi benshi bafite utwana dutoya, hari umusore wambaye umupira wa orange, uri kugenda abaha amata mu nkongoro.

Abantu bari mu cyumba gisa nk'aho kiri kuberamo inama hicayemo abagore batatu imbere bafite uducupa tw'amazi ku meza bakurikiye undi mugore wambaye umupira w'umweru uri kubagezaho ijambo.

Umucuruzi uhagaze mu iduka ari guseka yambaye ijire y'umuhondo bigaragare ko ari iya mtn, inyuma ye hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abantu babiri bicaye kugatebe k'urubaho, hariho umukobwa ufite ikayi iteretse ku kuguru arimo arabwira undi bicaranye, amugira inama.

Abantu cumi na batanu bahagaze ku mayesikariye barimo kwifotoza, harimo abagore bane, hamwe n'abagabo icyenda bose bagiye bambaye imyenda itandukanye.

Umugabo w'umusazi uhagaze muri kaburimbo, inyuma ye hari igikamyo kirimo kugenda, ahetse igitebo n'amashashi yambaye imyenda yacitse.

Icyumba kirimo ababyeyi bicaye ku ntebe harimo abahetse abana, imbere hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa uri kwandika ku kantu kameze nk'ikibaho abasobanurira.

Umusore wicaye mu nyubako ishaje yambaye amapingu ku birenge amwe ngitenge yifashe nk'umuntu wihebye kandi ufite agahinda kenshi yicaye ku bitenge hamwe n'amashuka.

Umudamu uvuye guhinga yikoreye igitebo kirimo umusaruro w'ibintu yasaruye igihe yahingaga, akaba atahanye isuka n'icyo gitebo kirimo ibyo yasaruye.

Abagore babiri bicaye mu mbuga yegeranye n'inzu zitwikirije ibyatsi, bicaye bose bambaye udupfukamunwa bari kuganira ibyerekeranye n'ubuzima.

Umusaza ufite icumu wambaye ingofero hamwe n'umukenyero w'umuhondo n'ishati irimo uturongo isa umweru, inyuma ye hari inzu.

Umugabo uhagaze ku rwibutso yambaye ikositimu, inyuma ye hari urutonde rw'abantu bitabye Imana, imbere ye hari indabyo hamwe n'umukobwa wambaye ijiri.

Umugore wicaye hasi wirabura yambaye igitenge hamwe n'umupira usa umuhondo yicaye imbere y'igiti araziritse n'umunyururu kuri icyo giti.

Abagore n'abagabo, bose bateranye bicaye ku ntebe za sheze zirambuye, bari kumva icyo umukanga arimo yaje kubaganiriza, abasanze mu makaritsiye yabo.

Abakobwa babiri bose bicaye ku ntebe zitandukanye, bari kuvugana bagirana inama, umukobwa umwe yambaye ingofero yifashe ku itama asa nk'ufite ibibazo.

Umusore wicaye hasi ufite ikibazo cyo mu mutwe, wambaye imyenda icikaguritse, akaba yambaye urukweto rumwe afite n'ibicupa mu maboko ye yose harimo ibintu bimeze nabi.

Icyumba cyo kwa muganga w'amenyo, kirimo ibikoresho birimo intebe, utubati hamwe n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gihe hari kuvurwa amenyo.

Icyumba gikorerwamo serivisi zo kuvurwa amenyo, hakaba icyo cyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane bifasha muganga mugikorwa cyo kuvura amenyo birimo intebe abarwayi bicaramo harimo niya muganga no mashini akoresha.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, yasamye ari gukura imyanda yahagamye mu menyo ye, akoresheje urudodo rwabugenewe.

Abantu bicaye kwa muganga bafite korogate imbere yabo ku meza, buri wese inyuma ye hagiye hari umuganga umufasha kumurebera indwara afite z'amenyo.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari umwana uryamye ku gitanda, bari kuvura amenyo hejuru hari umuganga ufite ibyuma bibiri ari kumuvurisha, yambaye na ga.

Abantu bari mu ishuri baje gusura umwarimu urimo wigisha isomo ry'amenyo umwarimu ahagararanye n'umwana ufite igishushanyo cy'amenyo ari kumwereka bimwe mu bice bigize akanwa.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi y'umukara n'amenyo y'umweru ari guseka atunze intoki ebyiri amenyo ye, yerekana ukuntu asa neza cyane.

Icyumba kirimo intebe eshatu hamwe n'utubati, inyuma y'izo ntebe hari amadirishya n'urumuri ruhagije kugira ngo hashobore gukorerwamo ibintu bitandukanye.

Umuganga w'amenyo, ari kuvura umugabo w'umwirabura amenyo akoresheje akuma kabugenewe kifashisha kureba amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, ari kwiborosa akoresheje uburoso, yireba mu ndorerwamo ngo arebe ko amenyo ye arimo aracya neza nk'uko abishaka imyanda igashiramo.

Icyumba cyo kwa muganga w'amenyo kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'intebe umurwayi yicaraho mu gihe ari kumurebera ikibazo afite mu menyo, hamwe na lavabo muganga akoreramo isuku y'ibikoresho.

Umusore uri guseka ufite ubwanwa, afite ubudodo bwabugenewe bwo gukoresha mu kanwa, ari gukura imyanda iba yagiye isigara hagati y'amenyo, akoresheje urwo rudodo rwabugenewe.

Laboratwari irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe umurwayi yicaramo mu gihe ari kuvurwa, hamwe n'aho umuganga yicara ari gupima ibizamini, inyuma yaho hari ravabo bakarabimo nyuma y'ibyo bikorwa byose.

Umusore n'umukobwa ufite imisatsi myinshi w'inzobe imbere yabo hari ikirahure bari kwireberamo berekana ko amenyo yabo asa neza.

Abaganga babiri bari kuvura umukobwa indwara z'amenyo, umwe ari kumurika undi nawe akavura amenyo.

Umuhungu wambaye umwenda w'umweru hejuru, afite akantu k'akagozi ari gucisha mu menyo, ari kwireba mu kirahure areba ukuntu bimeze.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ishuri, bafite ibyishimo, buri wese agiye afite uburoso mu ntoki yabumanitse.

Umuganga w'umugabo w'amenyo ari gufasha umwana kumufasha kumurebera mu kanwa ke indwara zitandukanye z'amenyo agiye afite, umuganga ari gukoresha agakoresho kabugenewe k'indorerwamo gafasha kureba mu kanwa aho umuntu atabonesha amaso.

Umukobwa ufite imisatsi migufi, ari gukura ibintu byaheze mu menyo, ahumurije akoresheje urudodo rwabugenewe.

Umukobwa uri kwiborosa yireba mu ndorerwamo, yambaye isume mu mutwe y'umweru, yambaye n'agasengeri, ari kwiborosa akoresheje uburoso bw'ubururu.

Umugabo w'imibiri yombi, ufite ubwanwa bukeya, mu ntoki afite akagozi karekare k'umweru, yagacishije mu menyo, arimo araseka.

icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi b'amenyo, harimo intebe umurwayi aryamaho mu gihe cyo kumurebera ikibazo afite, niyo muganga yicaraho ari kumufasha.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo igitanda kiryamyeho umusore ufite udusuko ku mutwe waje kwivuza ari kureba muganga afite akagozi k'umweru agiye gukoresha amuvura.

Umukobwa w'imibiri yombi usa neza cyane, ari guseka yerekana amenyo ye, hanyuma yafashe intoki ze azigira uruziga hagati yerekana umunwa.

Umukobwa wambaye agasengeri, afite imisatsi myinshi, ari kwiborosa yireba mu ndorerwamo, kugira ngo abone ko amenyo ye ari gucya neza, asa umweruru.

Umusore ujya kuba inzobe ufite umusatsi utari mwinshi, afite akagozi gatoya ku mweru ari gucisha mu menyo akuramo imyanda.

Umwana hamwe n'umusaza wicaye mu kagare kabafite ikibazo cy'ingingo, bafite bose amaterekomande mu ntoki bari gukina gemu.

Umugabo uri mu izabukuru ari kugendera ku gikoresho kimeze nk'imbago kimufasha kwimenyereza amaguru ye amaze igihe kinini atagenda iruhande rwe afite umuganga kandi ugomba kumwitaho amwerekera ubwo yagenda gake gake.

Abantu babiri bari kwa muganga, umuganga w'umugore ari gufasha umusaza gukora siporo, hamwe no kumugira inama z'uburyo yakuramo siporo bikagira ingaruka nziza ku buzima bwe.

Urujya n'uruza rw'abaturage, barimo kugenda mu muhanda w'igitaka, barimo abakecuru bari mu zabukuru, bafite utubando two kugenderaho, bambaye imikenyero y'umweru hamwe n'imipira itukura.

Umusaza n'umukecuru, bicaye muri resitora bari kunywa ibiryo biri mu gasorori gafukuye kameze nk'ibikombe, inyuma yabo hahagaze umusore wambaye amarinete hamwe na baji, ari kubaganiriza ku bindi bintu bakeneye.

Abasaza bari mu za bukuru bakenyeye imikinyero umwe akenyeye umukenyero w'umukara undi akenyeye umukenyero w'umweruru, bose kandi bambaye ingofero z'umweru umwe yambaye amarinete.

Inzu yagenewe gufasha abantu bari mu za bukuru, hakaba muri iyo nzu harimo umusaza uri gufashwa kumenyereza amaguru ye yari yaragize ikibazo.

Umugore uri kwita ku mugabo wirabura ugeze mu za bukuru ari kumufasha kugenda, kumanuka ku maekariye amufashe akaboko.

Umukecuru uri mu zabukuru, yicaye mu kagare k'abantu bafite ikibazo cy'amaguru, yambaye amarinete hamwe n'umupira wa oranje, inyuma ye hari umuganga ushinzwe kumwitaho no kumureberera.

Umukecuru n'umusaza bashaje cyane bafite imvi, bicaye ku ntebe bari kuganira baseka. Imbere yabo bafite utuntu bari kuganiraho.

Umurwayi uri mu bitaro, ari kwimenyereza kugenda ku kuma kabugenewe, inyuma ye hari igitanda cy'abarwayi baryamaho, akandagiye hasi n'ibirenge.

Abakecuru babiri bari mu myitozo ngororamubiri harimo uwambaye umupira afite ikintu yambaye ku kuboko undi yambaye isengeri ijya gusa ubururu.

Umusaza uri mu zabukuru afite imvi ateruye umwana, umwana ateruye afite igipupe mu ntoki kandi uwo mwana biragaragara ko yishimiye kuba bari kumwe n'uwo musaza.

Umugore uhagaze imbere y'akabati ko mu gikoni, wambaye umupira w'umweru, ufite n'imvi, afashe mu ntoki isahani iriho imboga.

Umuganga uri kwita ku murwayi ugeze mu zabukuru, ufite ikibazo cyo kugenda yicaye mu kagare, umuganga ari kumufasha kumupima aho indwara ze zose zigeze, harimo umuvuduko n'izindi ndwara zitandukanye.

Abantu bicaye, bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi, barimo kubigisha ukuntu baboha ibitebo hamwe n'imikeka.

Abantu bateraniye hamwe bose barimo baraganira, umwe ari kwigisha abandi uburyo baboha ibitebo.

Umukecuru ukuze cyane wambaye igitambaro mu mutwe n'igitenge gisa umuhondo yicaye ahantu, iruhande rwe hari inkono iri ku mashyiga.

Abagabo babiri, barimo gukora siporo, bari gukurura umugozi w'umuhondo, umwe yicaye ku meza, inyuma ye hari akabati karimo ibitabo.

Abantu babiri harimo umugore uhagaze ari gusuka ji, umugabo wicaye ari kurya, imbere ye hari imbuto zirimo nka pome hamwe n'imineke n'igikombe kirimo amaji atandukanye.

Abagore babiri bari kugenda mu muhanda harimo umugore umwe ukuzemo akaba ari kugendera ku cyuma kimufasha kugenda iruhande rwabo hari indabyo nyinshi zihateye, inyuma yabo hari ibiti.

Umuganga w'umugore uri gusunika umugabo uri mu za bukuru wicaye mu kagare, hagenderaho abantu bafite ibibazo by'amaguru,

Umugore w'umuzungu ari kwita ku musaza uri mu za bukuru amufasha guhaguruka ku gitanda kugira ngo agere ahantu agenda arambure amaguru.

Abantu babiri bafite ibyishimo harimo umusaza uri mu za bukuru usa nkaho abyibushye, inyuma ye hari umuganga w'umugore wishimye, ari kugira inama uwo mugabo w'umusaza.

Umugabo n'umugore bari kwita ku musaza ugeze mu za bukuru, bari kumufasha guhaguruka ku gitanda, igihe guhaguruka kuri uwo musaza byari ikibazo, umugabo wambaye ishati y'umweru hamwe n'ikoboyi, n'umugore we wambaye ikoboyi hamwe n'umupira w'umuhondo.

Umugabo w'igikara wambaye umupira umufashe n'isaha ku kuboko, ari kumwe n'umugore ukuze, bari kwirukanka bakora siporo mu muhanda.

Abacecuru bicaye ahantu hamwe, harimo babiri bambaye ingofero. Umwe wo hagati afite telefone mu ntoki, yambaye amarinete, ari kubereka ibintu muri telefone.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe uko ari babiri bari gupima umugabo wambaye imyenda y'umukara hamwe n'ingofero y'ubururu.

Icyumba cyo mu bitaro kirimo abaganga bakikije umurwayi, abaganga bambaye imyenda isa ubururu, bose bakikije umurwayi bari mu gikorwa cyo kumubaga.

Abantu bambaye udupfukamunwa bicaye, umwe ari gukingira uwundi Kovide cumi n'icyenda, abo bantu ni abo muri Nigeria.

Ahantu hateraniye abantu batandukanye, harimo abaganga hamwe n'abaturage basanzwe, intego ya byose ni uko harimo abantu baje kwipimisha indwara zitandukanye.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abantu benshi bitabiriye inama, bose baricaye barumva icyo inama irimo iravuga.

Abantu benshi biganjemo abana b'abakobwa, bicaye ahantu bari gukurikirana umuntu ibyo ari kubabwira harimo abambaye imipira y'umukara ndetse n'imipira y'umweru.

Umuhanzi mico the best hamwe n'undi mugore bahagaze imbere y'amadarapo bafashe icyapa mu ntoki cyanditseho twisuzushe igituntu kiravurwa kandi kirakira.

Abantu bane harimo abahungu babiri hamwe n'abakobwa, bafite udukingirizo mu ntoki bakangurira abantu gukoresha udukingizo ko ari bwo buryo bwizewe.

Materineti inzu y'ababyeyi babyariramo ikaba isakaje amabati y'ubururu, inzu y'ababyeyi babyariramo ikaba yubakishije amatafari ahiye ifite jaride isa neza hamwe n'akayira kubakishije amasarobwayi.

Inzu ya etaje ifite ubusitani hamwe n'utuyira imbere yayo, imbere yayo hari intebe abantu bicara bakaruhukiraho.

Umusore uryamye ku gitanda kwa muganga ari guterwa urushinge n'umuganga w'umugore, bari kumufata amaraso kugira ngo barebe zimwe mu ndwara yaba afite.

Ahantu hakorerwa siporo hagiye hari ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa mu gukora siporo, harimo ibyo guterura, ibyo gusimbuka n'ibyo gukoresha wirukanka n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako ndende ikoreramo ibitaro, imbere harasa neza cyane nta myanda ihari, inzugi zirafunze, hakorerwa ubuvuzi bw'amaso.

Isange One Stop Center aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane abantu batujuje imyaka y'ubukure.

Inyubako nini ikoreramo ibitaro bya Rwamagana, imbere hahagaze abantu benshi bagiye gufata ifoto harimo n'abazungu.

Ahantu hubatse inyubako igiye ishamikiyeho izindi, hari abantu bari kuhagenda, ku rundi ruhande hari abantu bicaye munsi y'igiti, n'umusaza uhagaze imbere yabo.

Mu cyumba cyo kwa muganga, hasi hari amakaro, ku nkuta hasizweho irangi ry'mweru, mo imbere harimo icyuma umurwayi ajyamamo igihe bagiye gusuzuma ikibazo yaba afite.

Abakozi b'ibitaro byitwa Legacy clinic, bose bambaye udupfukamunwa hamwe n'imyenda y'iniforume y'akazi y'abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo gitanda hamwe n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bifasha muganga kureba ubuzima bw'umurwayi uburyo buhagaze.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, imbere yacyo hicaye abantu bane harimo abana babiri, hamwe n'abandi bantu bakuru babiri, imbere yaho hari jaride hamwe n'amapave.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo itara hamwe n'amateleviziyo n'amatara n'ibitanda bihagije, bifasha abarwayi kubona uburyo bavurwa bidasabye igihe kirekire.

Inzu irimo ibikoresho bya jimu bitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu kwirukanka hamwe n'ibindi bifasha abantu bashaka kugira amaboko akomeye bakabiterura.

Abantu benshi bicaye, bateraniye mu nama, inama iyobowe n'umuntu wambaye kositime, hamwe n'abandi bicaye inyuma ye, b'abagabo babiri.

Ikigo nderabuzima cya gisenyi, gifite icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya gisenyi herifu senta mo imbere muri icyo kigo nderabuzima cya gisenyi harimo abantu batandukanye bagiye baza kwivuza.

Abantu batatu bari mu cyumba cyo kwa muganga, harimo akana gatoya kari guseka, imbere hari umuganga wambaye agapfukamunwa, ku ruhande hari undi muhungu wambaye ikintu mu mutwe.

icyumba cyo gutegerezamo abantu baje kwivuza harimo, intebe hamwe nameza yumukara, hamwe namweru, nanandi abaje mu rubahobo rwiza harimo n'indabyo zitatse icyo cyumba.

Mo imbere mu nyubako ahantu hasa neza cyane, harimo inzugi ziteye ibara risa, hejuru hari parafo zisa umweru ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umweru harimo n'uturongo dusa ubururu.

Ahantu hagurirwa amarinete atandukanye y'amaso imbere yaho hari intebe umuntu yicaramo mugihe ari kwipima amarinete, kandi akaba afite n'indorerwamo, ayireberamo kugira ngo abone neza ko amarinete amukwiriye kandi anamubereye.

Muganga hamwe n'umunyeshuri, bicaye mu bitaro, umuganga ari gupima umunyeshuri indwara zitandukanye, akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Laboratwari zikorerwamo ibizami by'abarwayi, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe, harimo imashini isohora ubushyuhe hanze.

Inyubako ikikijwe n'ibigega hamwe na jaride iteyemo ibyatsi, hamwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, iruhande rw'iyo jaride hari n'amapave.

Amarembo yinjira mu bitaro bya Kabgayi, agizwe n'umuhanda w'igitaka, iyo winjiye mu bitaro bya Kabgayi ubonamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibiti hamwe n'amazu akorerwamo ubuvuzi.

Inyubako ikoreramo farumasi, inzu icuruza imiti, ifite icyapa cyanditseho, farumasi Iraguha, icyapa kiba kiriho ibigo bikorana n'iyo forumasi by'ubwishingizi, birimo, saniramu, buritamu. kandi muri iyo farumasi hari kujyamo abantu, umugore n'umwana baje kugura iyo miti.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora ibizamini by'abarwayi batandukanye, muri icyo cyumba harimo ibitanda bitandukanye, buri gitanda gifite mudasobwa yacyo.

Abaganga bakora muri laboratwari, bambaye imyenda yabugenewe, harimo agapfukamunwa n'itaburiya hamwe na ga, bari gufunga serumu.

Farumasi yitwa porogiresi faromasi, ikaba iri mu gataje, ikaba ikorera hasi, ifite icyapa cyanditseho porogiresi farumasi, mo imbere muri iyo farumasi, harimo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye.

Inyubako nini, ndetse ndende ikoreramo ibitaro hanze haparitse amamodoka menshi, ndetse hanze y'igipangu hari icyapa kigaragaza ibikorwa bihakorerwa.

Abarwayi baryamye ku bitanda byo mu bitarori, umwe uri kugirwa inama na muganga, undi mugenzi we nawe uri ku ruhande yumva ibyo muganga ari kubwira undi murwayi mugenzi we.

Umugabo wicaye ku kabaraza munsi y'igiti yambaye ishati y'ubururu hamwe n'ipantaro y'umukara afashe ku kabaraza k'amabuye.

Umuganga wicaranye n'umukecuru bicaye mu mbuga ikikijwe n'amazu hamwe n'intoki, uwo muganga ari kugira inama uwo mukecuru yerekeranye n'umuzima.

Inzu ndende nziza yubatse ahantu hari imisozi, ku ruhande hari ibiti byinshi, hari abantu bari kuyigendamo n'undi uhagaze, hirya hari idarapo rimanitse.

Icyumba kirimo umurwayi uryamye ku gitanda, akaba yiteguye kubagirwa muri icyo cyumba, kirimo ibikoresho byinshi bifasha umuganga kugirango ngo akore akazi ke neza, akazi ko kubaga abarwayi.

Inyubako yo kwa muganga ifite ahantu abantu bicara mu gihe bategereje kubonana na muganga cyangwa barangije kubonana na muganga ahubwo bategereje kugirango baruhuke.

Umuganga w'umugabo wicaye ku mashini ari kureba ibisubizo byavuye mu mumashini yacishijemo umurwayi, ari kureba ibintu bimwe bigize uburwayi biri mu mubiri we.

Ubusitani buconze neza, buteyemo ibiti bitandukanye, harimo imikindo hamwe n'ibiti by'imyembe, iruhande rwabyo hari na parikingi iparikamo amamodoka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda, amasikaneri hamwe n'amatereviziyo bikoreshwa mu kuvura.

Urujya n'uruza rw'abantu, hamwe n'abaganga bakora muri laboratwari ikora inkingo, iyo laboratwari irimo imashini zabugenewe mu gukora inkingo.

Icyapa cy'ikigo nderabuzima cya Matyazo health center, gituranye na kaburimbo, hari ababyeyi barimo gusohoka muri icyo gipangu gifite imiryango.

Inzu irimo intebe hamwe n'igitanda bifunikishije ibitambaro bitukura, iyo nzu irimo na mudasobwa hamwe n'imashini ipirintinga.

Inyubako nziza cyane ndende hanze yayo haparitse imodoka nini kuruhande rw'imodoka hari umugabo uhahagaze wambaye ikote n'ipantaro by'umukara, inyuma naho hari abandi bagabo batatu bari kuganira.

Imbere kwa muganga harimo abaganga bari kugenda, hari umugore w'umuganga wambaye agapfukamunwa, ku ruhande hari igitanda kiriho umurwayi uryamyeho.

Abantu bicaye imbere y'inzu y'ababyeyi bari kubakorera inama, harimo umugore umwe uhagaze yambaye umupira w'ubururu hamwe n'amarinete.

Abantu bari mu ishuri harimo abashyitsi basuye umwarimu kureba uburyo yigisha, harimo umwana bari kwigisha ibintu byerekeranye n'indwara z'amenyo hamwe n'ibice bindi bigize mu kanwa.

Umurongogo munini w'abantu bicaye ku ntebe bashyizemo metero bategereje kwa muganga ko bavurwa, abo bantu hakaba hakubiyemo abakobwa, hamwe n'abahungu n'abmama b'ingeri zose.

Umwana wambaye kositimu, ari gusunika akagare karimo umuntu ufite ubumuga bwo kugenda. Imbere yabo hari umukobwa ubategereje.

Inzu ikorerwamo serivisi zo gucuruza imiti igiyeye itandukanye, harimo amavuta, cyane cyane imiti ikoreshwa n'abaturage baturiye hafi y'iyo bizinesi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda cy'abarwayi, icyo cyumba kikaba kirimo imashini zifasha imbere kugumamo ubukonje busanzwe cyangwa ubushyuhe. Hakaba harimo lavabo bakarabiramo.

Icyumba kirimo icyuma bacishamo umurwayi kugira ngo barebe indwara afite mu mubiri w'itari atagaragarira amaso. Iyo umurwayi aryamye kuri icyo gitanda bamucisha muri icyo cyuma indwara ziragaragara zigasohoka ku ifoto.

Ahantu hari kubera ibikorwa by'ubuvuzi hari umuganga uhagaze afite urushinge mu ntoki, ari kurutera umusore wicaye ku ntebe ukuyemo ishati.

Inyubako irimo isoko ry'amarinete, ahantu abantu bafite ikibazo cyo kutabona bakenera amarinete buri wese agenda agahitamo amarinete yishimiye.

Imipira y'imikino igiye itandukanye, harimo basiketi, umupira w'amaguru, tenisi, gorufe hamwe na rugubi.

Umusore uri gukora siporo muri jimu, afite imisatsi isutse direde, akaba yambaye ikabutura yanditseho adidasi, hamwe n'umupira w'umukara, umusore akaba yambaye ibikomo byinshi ku kaboko.

Icyumba kirimo icyuma cyo kwa muganga cyagenewe gucishamo umurwayi kugira ngo barebe ikibazo afite muri we hakoreshejwe icyo cyuma.

Inzu yagenewe gukorerwamo siporo, iyo nzu ikaba irimo abagabo babiri, umwe ari gutoza undi uburyo bakora siporo, uwo umwe ari kwirukanka acigatoye umupira mu ntoki.

Umukobwa w'imibiri yombi ari mu nzu yashashe agatapi hasi ari gukoreraho siporo, yazamuye amaboko abiri agorora inda n'amaboko, imbere ye hari ikirabyo giteretse mu nzu.

Umukobwa wirabura, afite umusatsi muke, akenyeye isume mu ijosi, afite agacupa mu ntoki gafite umufuniko w'ubururu, ari kukanyweramo amazi.

Umusore uri kunywa amazi arikuyanywera mu gacupa kabonerana, kandi aya mazi arasukuye umusore yambaye umupira w'ubururu hamwe nisaha y'umukara.

Mu nzu mo imbere hari abantu babiri barimo umuhungu uri gukora siporo, hari n'umukobwa usutamye, ku ruhande hari ibikoresho birimo imeza n'ibindi byinshi.

Icyumba gikorerwamo siporo, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe ikoreshwa yicaraho uterura ibyuma hamwe n'utubati.

Umuhungu n'umukobwa bari kunywa amazi nyuma yo gukora siporo, umwe yegamye ku wundi bari kuruhuka bose banywa amazi.

Umugabo wicaye ku gitanda akaba arimo avurwa n'umuganga w'umugore ari kumupfuka ahantu yagize ikibazo igihe yari muri siporo kandi uwo musore akaba yambaye urukweto ku kirenge kimwe, ahandi bakaba barimo barahapfuka.

Umukobwa ufite ibisuko ku ku mutwe, yambaye imyenda yo gukorana siporo, yicaye mu ntebe ari kugorora umubiri we, imbere hateretse icupa ririmo amazi.

Umusore wambaye ikabutura y'umweru n'isaha y'umweru hamwe n'inkweto za siporo, ari kugorora ukuguru kwe ashyize ukuboko ku mano.

Icyapa gishushanyijeho umugabo uri kwiruka, hamwe n'imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo, imizabibu, karoti, n'amaronji, hamwe na pome n'amashu.

Umusore w'igikara wambaye isengeri n'ikabutura, yicaye ahantu mu byatsi arimo arikanda mu ivi aragaragara nk'umuntu ufitemo ikibazo.

Abantu babiri bari gukora siporo yirukanka, harimo umusore umwe ufite icupa ry'amazi, ari kumwe n'umukobwa nawe wambaye isengeri y'ubururu ufite icupa ry'amazi.

Umukobwa uri muri siporo. Ahagaze ari kunywa amazi yambaye na ekuteri icometse muri terefone, umukobwa kandi afite imisatsi miremire. Yambaye agapira gatukura.

Umugabo uri gukora siporo ari kumukeka wo gukoreraho siporo, yambaye umupira hamwe n'ikabutura y'umukara, yahinnye ivi rimwe irindi arishyira hasi, akaba ari gukora siporo yo kugorora amaguru.

Mu cyumba kwa muganga, harimo abantu batanu barimo umuganga uri gufotora akana gato mu kanwa, iruhande rwabo hari abandi bagore babiri ndetse n'umugabo umwe.

Akagare kifashishwa n'umuntu ufite ikibazo cyo kugenda mu mugihe aticayeho, inyuma hari ahantu habiri wafata igihe utwaye umuntu ukicayeho, hasi hari akantu karimo washyiramo utuntu runaka.

Umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga afashe terefone mu ntoki, umugore umwe uhagaze hejuru ye ari kumugorora akaguru.

Icyumba cyo kwa muganga bagiramo abarwayi harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo igitanda gisashe neza hamwe n'amamashini yandi yifashishwa n'abaganga, harimo urumuri ruhagije.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara, ufite imisatsi isakoje neza, yicaye hasi arimo akora siporo no kunanura amaguru, afashe ku mano afashe n'amaboko ye, iruhande rwe hasi hari agacupa k'amazi anywa mu gihe arushye.

Icyumba cyo kwa muganga, aho bavurira abantu bashaka kugorora ingingo zabo zirimo amaguru, harimo muganga uri kumwe n'umurwayi uryamye ku gitanda bari kugorora ukuguru.

Umukobwa wicaye imbere y'intebe y'umweru, wambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'umukara, arimo kugorora amano ye akoresheje akaboko.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuhungu wicaye ku ntebe, iyo ntebe iriho icyuma gifasha kugorora ukuguru k'umuntu, uwo murwayi ari kumwe n'umuganga.

Isahani iriho imbuto, imwe y'inyanya n'ibitunguru, byegeranye n'inkweto yewe n'umugezi wo gusimbuka.

Umukobwa wicaye ku ntebe wambaye ipantaro izwi nk'ikoboyi, afite ikintu yashyize ku kuguru kw'ibumoso ku gice cyitwa akagomba mbari.

Ibiribwa birimo imbuto za pome, hamwe n’amashu, na orange, hamwe na pavro z'umutuku, n'iz'umuhondo, harimo n’avoka.

Abantu bavuye gukora siporo, bafite ibikapu imbere yabo, umwe yicaye ari kunywa amazi, undi na we arahagaze ari kwinanura, yambaye ikabutura.

Umugabo wicaye ku ma esikariye, ari kunywa amazi yumva n'indirimbo, yambaye imyenda yo gukorana siporo hamwe n'agasume.

Abasore babiri bambaye amajiri atukura ya croix rouge yateruye umusore ugize ikibazo bagiye kumuha ubutabazi bw'ibanze mu gihe atarajya kwa mu...

Umukobwa wicaye hasi, yambaye imyenda y'ubururu, hamwe n'igisuko kirekire gikora mu mugongo. Arimo gukora siporo afata amaboko ye ayegereza amaguru, kugirango arambure umugongo n'amaboko.

Imodoka y'imbangukiragutabara, iri kugenda mu muhanda icanye amatara agaragaza ko itwaye umurwayi, imodoka iri mu ibara ry'umweru, ifite n'amabara yandi ku ruhande y'umutuku.

Umukobwa wavunitse akaguru umuganga ari kumufasha kumushyiraho bande ku kuguru hagati yikikirenge akaguru kugirango akaguru gashobore gukira vuba.

Umuganga w'umugabo wicaye mubitaro imbere ya mashini. Ari gukora inama n'abandi kuri mashini bose barebana ku mashusho. Umuganga akaba afite ku ruhande intebe ijyamweho n'umuntu waje kwivuza amenyo.

Umusore uryamye hasi agaramye ari gukora siporo yamaguru kugira ngo amaguru ye akomere ari gukora izo siporo yifashishije ibikoresho byo muri jimu fasha kurambura amaguru.

Umukobwa wicaye ku mukeke wa siporo ufite mashini imbere ye, ari gukora siporo areba videwo, iruhande rwe hari ibyo waterura hamwe n'agacupa k'amazi.

Imurikagurisha riri kugurishirizwamo imiti y'ikinyarwanda n'ibindi bitandukanye, imbere y'iyo miti ya kinyarwanda, hahagaze umugore, ariwe uri kuyicuruza.

Imurikagurishwa riri gucuruzwamo imiti ya kinyarwanda iteretse ku meza, inyuma hari telefoni yifashishwa mu kwishyura, imbere hari umuntu uri gucuruza iyo miti w'umugore.

Amacupa afunzemo imiti ya kinyarwanda itandukanye, harimo imiravumba harimo imiti y'ifu yo kunywa, hakabamo n'imiti isukika, byose bigiye bifunze mu macupa atandukanye.

Ipapayi, ifite imbuto zayo mu imbere, ikaba ihiye, inyuma isa icyatsi, imwe irakase indi ntago ikase.

Umuntu uri gupakira imiti ya kinyarwanda mu bikombe bibonerana, inyuma ye hari akandi kabati karimo ubwoko bwinshi bw'imiti bupakiye mu bikombe bitandukanye.